Umwana uri ahantu ku irobine , robine yubatswe ahantu mu giturage kugira ngo ijye ifasha abaturage kuba yabahereza amazi meza ,aho kugira ngo bajye bajya kuvoma amazi y'ibiziba. Yafunguye robine ari gukaraba intoki yambaye agapira k'umutuku ari kureba imbere yishimye cyane.

Robine yo gukarabiho iriho amazi meza n'isabune, hari umwana uri gukaraba ari kugerageza kuba ya kwica indwara zagiye ku biganza byiwe, kugira ngo ataba yazikwirakwiza umubiri wose, aho yikoze igihe yaba hari ahantu yahuriye n'utwo dukoko twaba twagiye ku biganza byiwe.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano ari ahantu ari ahantu hari robine, kandagira ukarabe ariko kugerageza gukaraba into kize n'amazi meza ari ahantu akikijwe n'ibiti byinshihi ubona ko ari ahantu mu giturage; umwana ari gukaraba intoki ni ibintu byiza cyane ugomba gukaraba intoki zawe akenshi gashoboka.

Umugezi ufite robine ebyiri, zose zifunguye amazi ari kumeneka, hari n'umwana ufite igikombe, yateze ku mazi amazi yuzuye igikombe n'ari kurenga akameneka hasi, abona ko ayo mazi atari meza ko umwana yayanywa, kuko ni byiza mu buzima kunywa amazi atetse afite isuku.

Ahantu ku mugezi hari ibikoresho bifashisha bari kuvoma amazi hari umu mama n'abana, abana bari kugerageza gukoresha robine kugirango ngo ibashe kuzana amazi umumama ahagaze hari n'undi mwana, hari amazu ahakikije n'ibiti bishobora gufasha mu gukurura umwuka mwiza wo guhumeka, ubona ko amazi bayabona bibagoye cyane.

Inama yateranye abagabo babiri bicaye imbere ku ntebe imbere yabo hari ameza n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amazi hari n'abandi bicaye imbere yabo benshi bari gukurikirana nk'indorerezi bari kuvuga ku kuntu bashobora guhagarika iyi ndwara ya virusi ya Marburg yari yageze i Kigali byari ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi muw'ibihumbi bibiri na makumyabiri kane.

Umuganga n'umuturage bari ahantu hari icyapa cyanditseho sida iracyahari duhagurukire kuyirwanya, umuganga asa nk'aho ari guhereza umuturage inama z'ibijyanye na sida amaze kumupima ari kurikodinga amakuru yose amwerekeyeho kugira ngo amupime amuhereze ibisubizo bye nimba afite sida cyangwa atayifite.

Ishusho y'abantu b'urubyiruko harimo abakobwa ndetse n'abahungu bishimye bari guseka, bamwe bambaye impuzankano zisa z'ubururu bari mu cyapa cy'ubururu bari kugerageza gushishikariza abantu ibijyanye n'ubuzima bafashe ifoto y'urwibutso y'ibintu bari bamaze guhugurwamo.

Icyumba kirimo aba mama batanu bicaye ku ntebe, bateze amatwi mu ma umwe, arikubagira inama z'ibijyanye n'ubuzima bw'ukuntu bakwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abantu babakikije, babafasha kuba bagira ubuzima bwiza.

Ivomo ryubatswe kugira rijye rifasha abana mu gukaraba intoki n'amazi meza, n'isabune bavuye muri tuwarete, urabona ko harimo abana benshi b'abanyeshuri bari imbere y'ivomo kugerageza gukaraba amazi meza n'isabune, umuco mwiza wo gutoza umwana akiri mutoya.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi bambaye imyenda ibafasha kwirinda ndetse batibagiwe n'ubupfukamunwa. Kirimo n'umurwayi uryamye ku gitanda hari ibikoresho byo kwa muganga bari kwifashisha bagerageza kumutabara. Umurwayi urwaye cyane bari kugerageza kumufasha ngo barebe ko bakongera kumugarura mu buzima bwe bwiza.

Umuntu uri mu gikorwa cy'urukundo uri kugenda ahereza abana amata hari n'umusirikare fite amata ari kugenda amuhereza abana mata kugira ngo bagire ubuzima bwiza mu gikorwa cy'urukundo hari n'abandi bantu bamukikije nyine babona ko bishimye cyane kuba bari mu gikorwa cy'urukundo ari gufasha abana kurwanya imirire mibi ni gwingjra ku bana batoya.

Umwana uvuye muri toilette, uri kuri kandagira ukarabe ari gukaraba intoki ze n'amazi meza n'isabune, umwana w'umunyeshuri watojwe ufite umuco w'uko umuntu wese uvuye muri toilette agomba gukaraba, umwana wambaye ishapure, bigaragara ko ari umwana usenga.

Aha kuri ino nyubako hateretse kandagira ukarabe, hari abamama, abasaza, abakecuru n'abana, abenshi muri bo ubona ko ari abantu batishoboye, batonze umurongo ahantu bahicaye bategereje ko hari ikintu babafasha.

Umwana uri kuri robine ari gukaraba mu ntoki yafunguye amazi, amazi akarabye mu ntoki agenda agahita agwa mu ibase y'umukara iri aho hasi, umwana wambaye imyenda ijipo n'ishati bidoze mu myenda y'igitenge cy'umweru, afite imisatsi isutse, ubona ko yishimye ameze neza.

Amazu ashaje ari ahirengereye, agaragara nk'aho yubatswe kera, yakorerwagamo ibikorwa by'ubuvuzi bugiye butandukanye, ku kiremwamuntu, yatabaraga abantu benshi kuba hari ikibazo bahura nacyo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba kirimo abantu, harimo umugore uteruye umwana n'abandi bamama bicaye bateruye abana, harimo n'umujyanama w'ubuzima uri gufasha abo bamama kugira ngo bapime abana babo ibiro bafite, kugira ngo barebe niba bafite imikurire myiza cyangwa bafite ibiro bikeya bidakwiye umwana ugeze ku myaka yabo, kugira ngo babafashe mu buzima bwabo bw'imikurire.

Umwana uri ahantu mu cyaro ahantu hakikijwe n'ibiti byihi, imbere ye hari indobo ndetse n'inyuma ye hari indobo, ari kuri robine yafunguye amazi ari gukaraba mu ntoki. Igikorwa cyiza cyo gutoza abana gukaraba mu ntoki kugira ngo bajye bica mikorobe ziba zagiye ku ntoki, ku ntoki hajyaho mikorobe nyinshi cyane.

Abantu bicaye ahantu hasakaye hameze neza hari n'abari ku ruhande bitwikiriye imitaka abagore n'abagabo ndetse n'abashinzwe umutekano imbere yabo hicaye umwana harimo n'abamama bateruye abana abandi bana ba bahagaze imbere, hari umugabo uhagaze imbere yabo ufite mikoro ari kubaganiriza abaha inama ku bijyanye n'ubuzima.

Abamama bari ahantu ku ivomo, ivomo rigoranye kugira ngo amazi aze, bamwe bagiye batatu bari ku ivomo bari kugerageza gufasha kugira ngo bakorope amazi aze, n'undi ari kugenda adaha amazi agenda ayashyira mu bintu bigiye bitandukanye kugira babone amazi yo gukoresha mu imiryango.

Ahantu ku iriba hahuriye abantu benshi, barimo abana n'abamama n'abapapa, baje gushaka amazi, umwe ari gufasha undi kugira ngo amazi ashobore kuba yaza ajya mu jerikani, bagenda bafatikanya, bafatikanya kugira ngo bavome bose babone amazi.

Abajyanama b'ubuzima bahuriye hamwe bari n'undi muntu bafashe ifoto y'urwibutso, igaragaza ko hari amahugurwa runaka bavuyemo kugira ngo n'ikindi gihe nibakenera kwibuka ko bo bigeze kujya mu mahugurwa bazakoreshe iyo foto bakarebaho, bari ahantu hari ibiti byinshi bibakikije bikurura umwuka mwiza wo guhumeka.

Abajyanama b'ubuzima benshi biganjemo aba mama ndetse n'aba papa, ndetse harimo n'umuzungu; inyuma yaho ufite icyuma gikoreshwa mu gufata amashusho, ari gufotora ndetse n'undi ahagaze imbere yabo ari kubahereza amabwiriza y'uburyo bazajya bafata neza abantu barwaye, ubona ko bamwishimiye cyane bari gukoma mu mashyi nawe yishimye imbere yabo ari guseka.

Inama yahuje abantu bagiye batandukanya bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umugabo uhagaze ufite mikoro ari kugenda abahereza amabwiriza n'ubujyanama ndetse n'amahugurwa y'ukuntu bakita ku buzima bw'abana by'umwihariko.

Icyumba kirimo abantu benshi harimo uri kuvugira kuri telefone, hari n'abagabo babiri bahagaze bari kurebana bari kuganira, bari kugirana inama z'ibijyanye n'ubuzima, bari kuganira uburyo bazajya bashobora kwita ku buzima bwabo n'ubw'abaturage muri rusange.

Umumama wambaye agapfukamunwa n'umwana wambaye impuzankano y'ishuri, umumama ari kugerageza koza umwana intoki neza n'amazi n'isabune. Bari ahantu hakikije ibiti byinshi cyane bishobora gukurura umwuka mwiza wo guhumeka.

Icyumba kirimo intebe abamama babiri bicaye ku ntebe hari n'umwana hagati yabo ufite icupa ririmo ji, bisa nk'aho umumama umwe ari umuganga undi ari umubyeyi waje kuvuza umwana wiwe bagiye kwita kuri uwo mwana kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ivomo riri ahantu mu cyaro, hari umugore hari n'abana bane bafite utubuni baje gushaka amazi, haruguru haparitse imodoka, umugore ari kugerageza gufasha abana kuba yabafasha kugira ngo robine izane amazi, babashe kuba bacyura amazi, irobine iri ahantu mu misozi hari ibiti byinshi.

Umwana uri ku mugezi, umugezi uri ahantu hakikijwe n'ibiti byinshi bishobora gukurura umwuka mwiza wo guhumeka, yafunguye amazi ari gukaraba mu ntoki, imbere y'uwo mugezi hateretse indobo n'inyuma yawo hari indobo zishobora kuba zavomewemo amazi.

Abana b'abirabura bose bari kumwe, abahungu n'abakobwa bakiri batoya, bahuriye hamwe, bambaye imyenda isa, bishimye cyane bamaze guhabwa inama z'ibijyanye n'ubuzima, ukuntu bazajya bitwara kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Abantu bicaye ahantu hamwe abagabo n'abagore hafi ya bose bambaye imyeru hejuru, harimo n'abambaye amakarita abaranga bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima bari bamaze gufata amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, babwiwe uburyo bashobora kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abaturarwanda muri rusange.

Umwana wafunguye amazi kuri robine ari kuyakaraba mu maso aseka cyane yishimye, ahantu ubona ko inyuma ye hari abandi bantu. Robine iri kuzana amazi byashimishije umwana cyane, amazi atari meza ko wahita uyanywa utabanje kuyateka cyangwa se gukoreshamo siro.

Umuntu w'umuganga wambaye udukoresho twifashishwa mu kurinda intoki, afite serenge yari irimo urushinge ndetse harimo n'umuti arikuwutera umuntu mu rutugu, arikugerageza kumukingira, uwo muntu yari yakunje akaboko k'umupira kugira ngo ukuboko kwe k'umubiri kugaragare neza babashe kuba bamukingira indwara nk'icyorezo runaka.

Icyumba cyicayemo abagabo babiri, ku ntebe imbere yabo hari ameza ataretseho amazi ndetse n'ibikoresho by'ifashanyigisho bari kwifashisha bo muri repubulika ya Sudani bari kugerageza gutanga inama bahereza abantu inama ku bijyanye n'ubuzima.

Umugore n' umugabo bicaye ku ntebe hari n' undi mujyanama w'ubuzima wicaye imbere yabo arikubagira inama ku buzima ku bijyanye n'ukuntu bakwitwara kugira ngo ubuzima bwabo buzagende neza kandi bu bazabane neza mu mahoro nta kibazo bahuye nacyo kugeza mu busaza.

Ivomo ririho abantu baje kuvoma hari n'abandi bahagaze ku ruhande hari n'uwitwikiriye umutaka ivomo rigaragara ko ritari kuzana amazi bategereje ko amazi bayafungura akaza bakavoma bakabona amazi bajya gukoresha mu miryango yabo.

Abana babiri baje kuvoma amazi, bafite indobo baje kuvomeramo bari ahantu ku mugezi bafunguye amazi bari kuvomeramo indobo imwe, igenda yuzura bashyiraho indi, ahantu umugezi ukikijwe n'ibyatsi n'ibiti bikurura umwuka mwiza wo guhumeka.

Umwana uri ahantu ku mugezi hari insina z'imibyare hari n'ibyatsi, afite amajerekani atatu ari kuvoma, ubona ko hari umwana uri guseka wishimye ko babegereje amazi kandi meza ashobora kwifashishwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abagore babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, umwe yiteza igitambaro mu mutwe, undi ntacyo yiteze, bari mu cyumba cyiganjemo ibara ry'ubururu, ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso, bari bari kuganira, bahujwe no kuvuga ku bintu bijyanye n'ubuzima.

Icyumba kirimo abagore batatu b'abajyanama b'ubuzima, bicaye ku meza bari gukura amakuru y'umurwayi mu ifishi bayarikonga mu gitabo kinini, gikusanyirizwamo amakuru y'abarwayi, bafite amakaramu, baricaye bose, bararebana, undi yicaye ku ruhande.

Ahantu mu cyaro hari robine umumama ari kuvoma amazi mu ndobo y'umukara ateruye umwana mu ntoki, hakikijwe n'amashyamba n'amazu ubona ko ari amazu ya giturage ari ahantu mu cyaro hatari hagira iterambere ryinshi cyane.

Icyumba cy'inama kirimo intebe n'ameza, harimo abantu bagiye bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, hari ubucupa bw'amazi, bamwe ni Abazungu, abandi ni Abanyaziya abandi ni Abirabura, bahuriye ahantu hamwe bari gufata amahugurwa ku bintu bijyanye n'ubuzima.

Umuganga wambaye ibikoresho bimufasha kurinda intoki ziwe, ari ahantu mu bitaro ari kugerageza kugira ibintu ahuza kugira ngo abashe kugira ikintu kizima yateranya gishobora kumufasha igihe ari kwita ku barwayi.

Icyumba kirimo abantu benshi abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, harimo abagiye bafite udukayi bari kugenda bandika bari mu mahugurwa ubona ko ari n'abajyanama b'ubuzima bamwe muri bo bari mu mahugurwa bari kugenda bagirwa inama runaka z'ubuzima, bagenda bandika ingingo z'ingenzi.

Ikigega kirimo amazi mu kigo cy'amashuri, hari inyubako zisa nk'aho zishaje, hari umwana afite igikombe, afunguye robine y'ikigega ari kuvoma amazi y'ikigega bisa nk'aho agiye kunywa amazi y'ikigega kandi amazi y'ikigega ntago ari meza ku buzima bw'umuntu, ashobora kuba harimo udukoko twagira ingaruka mbi cyane bihambaye ku buzima bw'umuntu.

Abana benshi b'abanyeshuri ndetse na mama bari imbere y'ikigega, bose bafite udukombe bari kuvoma amazi yatunganyijwe mu kigega, bari kuyanywa bishimye ahantu mu cyaro ubona ko bagejejweho amazi meza yuru kunywa.

Ahantu hari ivomo n'abantu benshi batandukanye aba mama, abakobwa, abana ndetse n'umugabo bafite ibivo ibikoresho byinshi byo kwifashisha bavoma, ubona ko ari ahantu mu giturage bakeneye amazi cyane babuze amazi basa nkaho bakeneye ubufasha kuko bazanye ibivomesho byinshi ariko urabona ko mu by'ukuri nta mazi barabona.

Umumama n'umwana bari ahantu hateye imboga bari kugerageza kuzitaho kuko imboga ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu, zishobora gufasha umuntu kuba zamurinda indwara, urumva ko ari ikintu cy'ingenzi baba bagomba kuzitaho ubona ko bishimiye kuba bari kwita ku mboga. Imboga zitoshye zimeze neza cyane ubona ko zitaweho.

Umwana ufite ibikombe bibiri by'amazi uri guseka wishimye, yambaye impuzankano y'ishuri hari n'abandi bana benshi bari hakurya y'ikidendezi cy'amazi, bari ahantu ubona ko ari mu kibaya mu gishanga hakikijwe n'amashyamba.

Abana babiri bari ahantu mu cyaro hakijijwe n'amashyamba menshi, bari kuvoma kuri robine izana amazi. Umwe ari kugerageza gufasha undi kugira ngo amukorere indobo bamaze kuvomeramo amazi, ni ugufashanya kugira ngo abashe kuba yayimugeza ku mutwe acyure amazi.

Ahantu mu cyaro hari umumama, uri gukoresha kandagirakarabe ikoze mu biti ndetse n'akabuni, ku ruhande hariho akantu kajyaho isabune, ari kubikoresha akaraba intoki ze n'amazi meza, ari muhuye mukabuni ndetse n'isabune, yishimye cyane uburyo bukomeye cyane bwo kuba yakwirinda indwara zigenda zikwirakwira no mudusimba.

Umuntu wicaye ahantu mucyumba wenyine asa nkaho atishimye yipfutse mu maso yambaye umupira wumukara afite agahinda ari gutekereza cyane, umuntu bigaragara ko akeneye umuntu wamuganiriza bisa nkaho yataye umurongo w'ikizere cy'ejo hazaza.

Abantu benshi b'abana bari kurira cyane, bambaye imyenda isa nabi, ubona ko bafite agahinda gakabije, bafite inzara bakeneye ko baba bafashwa cyangwa bakaganirizwa kuba bakongera kugarura icyizere cy'ubuzima, kuko bihebye cyane cyane, basa nk'aho baba ari abantu bari guhunga.

Abantu benshi b'Abanyarwanda, bahagaze ahantu hamwe mu karere ka Gasabo, barimo abagabo n'abagore bafite ibyapa byo kwamamaza ibyo bari bavuye gukora, bahagaze n'imbere y'icyapa kiri kugaragaza amahugurwa bavuyemo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abagore babiri n'umujyanama w'ubuzima wa gatatu nawe w'umugore bicaye ku ntebe, imbere y'abo hari ameza ,ameza ariho telefoni hariho ishashi y'amata, abagore bateruye impinja mu ntoki kubona ko umujyanama w'ubuzima ari kubagira inama, uko bazita ku bana babo bakazagira imikurire myiza izira igwingira.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu bahahuriye, harimo abana, abamama ndetse n'abapapa, umwana bigaragara nk'aho ababaye cyane arikora, abamama na bo bahahuriye ubona nkaho bari gushaka mbese bari gushaka imibereho yo kugira ngo bibatunge no gutunga urubyaro rwabo.

Abantu benshi bahuriye hamwe, hari abicaye imbere ku ntebe, hari n'abahagaze inyuma yabo, bamaze gukora amahugurwa, bamwe bambaye imyenda y'imikara yanditseho ibintu bibaranga bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bibuka ibyo bavugiye muri ayo mahugurwa igihe babonye iyo foto.

Abantu benshi bahagaze imbere y'Ingoro y'Ubutabera, harimo abagabo n'abagore bose bari gufata ifoto y'urwibutso, bari bavuye kuganira mu mahugurwa y'ibintu bijyanye no kuganiriza abantu baba bafite ubuzima bw'imitekerereze.

Urugo rwahuriyemo abantu batandukanye, harimo abagore n'abagabo ndetse hari n'umwana, inyuma yabo hahinze imibyare, bose bicaye ku ntebe, ubona ko bari kuganira bishimye cyane nta kibazo bafite.

Imugabo n'umugore bari ahantu, mu cyumba ubona ko umugabo afite agahinda, yubitse umutwe mu maboko ari gutekereza cyane, umugore yamushyizeho akaboko kambaye isaha, ari kugerageza kumuhumuriza, amuhumuriza ashaka kumugaruramo icyizere cy'ubuzima.

Umugabo w'umwirabura ubabaye cyane uri kurira, wabize ibyuya, uri kuzana n'ibimwira mu mazuru, ubona ko yatakaje icyizere cy'ubuzima, akeneye umuntu wamuganiriza kugira ngo yongere agire icyizere cy'ejo hazaza.

Ababyeyi benshi bari hamwe, umwana uri kurira, imbere ye hari undi mubyeyi; ubona ko ari ababyeyi bahuriye hamwe bari gushaka ibyabafasha gutunga imiryango yabo mu buzima bwa buri munsi n'ibyabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abantu benshi bamaze kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ,bamaze kubiganiraho bari gufata ifoto y'urwibutso .Ahantu mu cyumba kirimo amatara ameze neza, kugira ngo n'ikindi gihe bazajye bagaragaza uko iyo nama yabaye.

Umumama uri ahantu imbere y'inzu ateruye umwana mu ntoki; bose ari we n'umwana bari guseka bishimye cyane. Umwana bigaragara ko afite ubuzima bwiza buzira umuze, yabashije kwitabwaho akiri umwana kugeza n'imyaka agejeje.

Umuntu ufite imisatsi yamwereyeho ufite ubwanwa bwinshi cyane w'umwirabura, wambaye ishati imeze nabi wayifunguye bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ari kugaragaza agahinda gakabije cyane.

Icyumba kirimo abantu batatu bicaye ku ntebe imbere ya bo hari ameza. Ameza igiye itezetseho ibikoresho byabo ndetse n'amazi buri wese ari kunywa, n'undi mugabo uhagaze imbere yabo ufite mikoro, nabwo imbere ye hari ameza. Imbere ya bo bose hariho icyapa cyanditseho ko bagomba kwita ku buzima bwo mu mutwe aho bakorera, no kubo bari kugira inama, no gufata inyigisho z'ukuntu bakwita ku buzima bwo mu mutwe ahantu hose bakorera.

Ishusho y'umutwe w'umuntu igaragaza igishushanyo cy'ubwonko, uburyo ubwonko buba buteye, uburyo sisitemu yabwo iba yubatse ku buryo umuntu ubwonko bwe bushobora kuba bwagira ikibazo bitewe n'ibintu runaka yabonye cyangwa yanyuzemo cyangwa se ibyamutera mu mitekerereze ye.

Aho abantu bahurira bari kugira inama abana batoya bakiri muri ya myaka mitoya, bari kubagira inama ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse bari no kubahereza ubuzima, bari kubagira inama ku buryo bakirindamo icyorezo cya Covid cumi n'icyenda cyari cyaratatse u Rwanda.

Ahantu hari ikimoteri hakoranyirizwa imyanda myinshi hasa nk'aho hitaruye umujyi, hari umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe wishyizeho imyanda myishi, imyenda yambaye isa nabi ameze nk'umuntu ufite agahinda gakabije cyane ukeneye kuba yakwitabwaho by'umwihariko.

Umuntu wicaye ahantu wenyine yigunze, ahantu hari umwanda ubona ko hari umuntu utishoboye ukeneye kuba yafashwa, ubuzima bwe buri mu kangaratete, ukeneye umuntu wamuganiriza akamusubizamo inama z'ubuzima, akongera kumva ko afite ejo hazaza.

Ahantu mu cyaro hari abana ubona ko bashobora kuba baturuka mu miryango itishoboye, bafite utu buni. Abana ubona ko badasa neza bakeneye umuntu wabaganiriza kuri ejo hazaza habo kugira ngo batazagira ikibazo mu mutwe mu mitekerereze yabo bakazahora bameze neza bumva bafite icyizere cyejo hazaza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, serivisi nyinshi gishobora gutanga zigiye zitandukanye, zose zigiye ziri mu mabara atandukanye, ushaka kuba wazimenya, aho ushobora kuba wasoma, buri serivisi igiye iri mu ibara ryayo, ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba cyafasha umuntu waba uzikeneye.

Icyumba cyabereyemo inama kirimo abantu benshi b'indorerezi bicaye ku dutebe, abandi imbere yabo hari ameza, bafite udukayi bari kugenda bandikamo ingingo z'ingezi zavuzweho n'abandi bicaye imbere yabo bazengurutse hari umu mama uhagaze hagati yabo uri kugenda abahereza amabwiriza y'ibijyanye n'ukuntu bakwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abandi.

Umugore wo mu cyaro uvuye mu murima gukora kugira ngo arebe uko yabona icyo kurya. Afite isuka mu ntoki yikoreye igitebo kirimo ibintu akuye mu murimo ku ruhande rwe hari inzu isakajwe n'amategura ubona ko hari umugore ukennye, ukeneye kuba yaganirizwa ku bintu bijyanye no kwiteza imbere kugira ngo yumve ko atari wenyine.

Imodoka iriho icyapa kigaragaza igihe cyo gufungura ibitaro byo mu Bugesera, bizafasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, hakikijwe n'ibiti, hari abantu ndetse n'intebe zipanze n'amahema hari hamaze gukorerwamo ikirori cyo kuba bafungura ibitaro by'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe mu Bugesera.

Abamama babiri umwe muri bo ateraruye umwana, undi afite telefone igezweho mu ntoki, afite n'agakoresho kifashishwa mu gufata ibipimo, yambaye umupira w'umweru, ari kwereka uwo mumama uteruye umwana ibipimo byavuye mu bintu yamupimye.

Icyumba kirimo intebe nyinshi ziteye mu buryo bw'uruziga, kirimo abantu benshi abagore n'abagabo bahuriyemo bari kuganira ku biganiro bijyanye n'ubuzima, bagira ngo bamwe muri bo bongere bagarukane icyizere cy'ubuzima kuko ejo hazaza hameze neza nta kibazo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu nce zitandukanye, bari ahantu hamwe baje gushaka imibereho, umwana uri kurira usa nkaho afite ikibazo cyane, amarira ari gutemba ku ijisho rye ry'iburyo asa nkaho yababaye n'umumama uri imbere ye ufite ibiti, ubona ko bakeneye kuganirizwa ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bongere bagarure ejo hazaza habo heza.

Ishusho igaragaza imiterere y'amenyo y'umuntu uburyo agiye afashe mu mubiri, aho yafashwe hagamijwe kureba nimba hari iryinyo rifite ikibazo ngo ribe ryakurwamo cyangwa nimba byashoboka ko rya kitabwaho, rikitabwaho, rigakira rikongera rikamera neza, rigatungana.

Umwana ugaramye yasannye ari n'umuganga wambaye ibikoresho bishobora kumufasha kwirinda, afite n'akandi gakoresho kifashisha mu kuvura amenyo, ari kurebe iryinyo ry'umwana nimba rirwaye cyane ku buryo yarikuramo cyangwa nimba hari ubundi buvuzi yamuhereza rikongera rigakira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi, harimo umuganga wambaye ibikoresho bimufasha kwirinda indwara, harimo n'umurwayi uryamye muganga yamwasamuye akanwa ari kugerageza guhu kumurika mu menyo ye, kugira ngo arebe niba hari iryinyo ryaba rirwaye, abe yamufasha amuhereze ubuvuzi, arikuremo cyangwa arivure.

Ishusho igaragaza umuntu wanyujijwe mu cyuma bari kugerageza kureba imiterere y'amenyo ye ukuntu ateye, niba amenyo ye ameze neza nta kibazo afite. Bari bamunyujije mu cyuma kibigaragaza neza kijyamo imbere mu mubiri kikareba iryinyo ryaba rifite ikibazo n'iryinyo ryaba ari rizima.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa bwiza, wishimye uri guseka, agaragaza amenyo ye ameze neza bigaragara ko yayitayeho, yayaboshe neza, akoresheje uburoso na korogati ndetse n'amazi meza, ubona ko amenyo ye ameze neza nta kibazo afite.

Umugore uri mu cyumba ufite imisatsi myinshi, wambaye isengeri ari kuborosa amenyo ye kugira ngo ayarinde indwara, ari gukora isuku y'amenyo ye ari kuyaborosa ayakuramo imyanda yaba irimo kugira ngo amenyo ye akomeze kugira ubuzima bwiza nta kibazo na kimwe ahuye nacyo.

Umukobwa usa neza utunze udutoke tubiri mu kanwa kiwe, ari kugaragaza amenyo ye ameze neza cyane bigaragara ko yitaweho, yayaboroshe akoresheje amazi meza na korogati, biturinda amenyo ye kuba yahura n'uburwayi ubwo aribwo bwose.

Umuntu wasamye uri n'umuganga ufiti ikibazo mu menyo bari kumukura amenyo, mu ryinyo ryari rifite ikibazo bamaze kurikuramo, haje umwobo mwobo munini cyane, iryinyo ririho amaraso, hari n'agakoresho bakoresheje bari gukuramo iryo ryinyo kugirango niba rirwaye barikuremo, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo abantu babiri umurwayi ndetse n'umuganga. Umurwayi yaje kwivuza amenyo, umuganga ari kugerageza gukura iryinyo rirwaye uwo murwayi, yambaye ibikoresho birinda intoki z'iwe ndetse n'imyenda imufasha kumurinda kuba hari indwara yadura nk'umuganga, n'umurwayi uryamye ku gitanda yasamye bari kumukura iryinyo.

Ibikoresho biri ahantu mu cyumba kimeze neza, bibitse neza, bishobora kwifashishwa hari gutangwa serivisi z'ubuvuzi butandukanye, igihe umuntu afite ikibazo bikaba babyifashisha bari kumutabara.

Amenyo y'umuntu yafotoweye mu bikoresho by'ikoranabuhanga, kugira ngo abe agaragara neza uburyo agiye yateye mu mubiri, harebwe nimba hari iryaba rifite ikibazo cyangwa se iryaba ryakurwamo cyangwa nimba ryavurwa rigakira, rikaguma mu mubiri nta kibazo.

Ishusho y'umuntu banyujije mu cyuma bari kugerageza kugaragaza imiterere y'amenyo ye ukuntu agiye afashe mu mubiri, bari kureba iryinyo ryaba rifite ikibazo kugira ngo babe barikuramo, cyangwa se basuzume niba ryashobora kwitabwaho rikongera rikamera neza aho kugira ngo barikuremo.

Abamama babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga bafite amafishi kwa muganga bari kuyuza, bari kugerageza mu kugenda kugenda bakusanya amakuru runaka. Umwe muri bo ysmbaye rinete, undi muri bo arishimye ari guseka ubona ko bari mu cyumba gitangirwamo serivisi nk'ubujyanama bW'ubuzima.

Umugabo w'umwirabura uri mu cyumba cyo kwa muganga, imbere ye hahagaze umuganga, afite udukoresho twifashisha kwa muganga, ari kumwereka iryinyo rifite ikibazo, umuganga ari kugerageza kuba yamufasha kugira ngo iryinyo rye ryongere ribe ryabasha kumera neza, risubirane ubuzima bumeze neza.

Umwana uryamishijwe hari umuganga wambaye ibikoresho byo kwa muganga bimufasha kwirinda, afite n'ibindi bikoresho bimufasha kuba yafashe umwana ari kumuvura amenyo, ari kumureba mu kanwa yamwasamishije, ari kureba iryinyo rifite ikibazo ngo abe yarikuramo cyangwa se abe yarivura.

Umugabo wishimye cyane bitangaje, ubona ko koko mu byukuri ari guseka, afite agakoresho ka vita karasiko gashobora kugufasha igihe amenyo yawe yagize ikibazo, gashobora kugufasha mu bintu byinshi cyane, by'umwihariko kubijyanye n'ubuzima bw'amenyo.

Umugabo ugaragara nkaho akuze, ari gushira urudodo rukomeye mu menyo, mu by'kuri bitari byiza na gato ko bishobora kugira ingaruka ku menyo yiwe, akaba yarimbuka cyangwa bikaba byamutera indwara zitandukanye zigenda zifata amenyo kuko urudodo rurakomeye cyane rushobora kumwangiriza amenyo.

Icyumba kigezweho giteguye neza, kirimo intebe eshatu zashobora gufasha abantu batatu kuba bazicaraho, bategereje umuganga wabafasha, igihe bafite ikibazo cy'amenyo, baje kwivuza mu bitaro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ubuvuzi byifashishwa kuba byapima indwara y'umurwayi, harimo umuganga wambaye imyenda irinda ubuzima bwe afite ikaramu ari kugenda yandika amakuru runaka, harimo ibikoresho bibitse imiti ishobora kuba yafasha umurwayi mu kumuvura.

Umugabo ufite ubwanwa bwo hasi n'ubwo hejuru yabumbuye akanwa afite agakore agerageza gupima amenyo ye kugirango mubyukuri asuzume nimba amenyo ye yaba afite ikibazo cyangwa nimba aringaniye mu rwego rwo kwita ku menyo ye kugira ngo akomeze yite ku buzima bw'amenyo ye ahore afite ubuzima bwiza.

Umuganga, umurwayi, uburiri n'agakoresho bari kwifashisha kugira uwo umurwayi w'umusaza abe yagorora umubiri we, igitanda n'akabati karimo udukoresho dutandukanye, aho umuganga ari gufasha umusaza kuba yakongera gukora siporo ngororaumubiri akagorora umubiri we, nyuma yo kuva mu burwayi.

Icyumba kirimo intebe zitandukanye n'ameza, harimo umusaza n'umukecuru bari gusoma, bigaragara nkaho ari ahantu abantu bageze mu zabukuru bajya bakitabwaho neza, bahabwa ibyangombwa bakeneye bitabavunnye babegereje, aho bashobora kwitabwaho bitagoranye, ku buryo ibintu byabo byose bakeneye bashobora kubibona mu buryo bworoshye.

Umusaza n'umukecuru bicaye ahantu mu nzu ku ntebe imbere yabo hari ameza iriho amazi ndetse n'uducupa tw'imiti, inzu iteye amarangi y'umweru hariho n'intebe zo kwicaramo ku ruhande bari gusoma amabwiriza y'ukuntu bafata imiti kugira ngo bayifate neza bakurikije amabwiriza bakomeze kugira amasaziro meza.

Icyumba cyicayemo abasheshe akanguhe babiri bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza iriho amafunguro ateguye neza yarimo indyo yuzuye, imisatsi yabo yarabaye imyeru, harimo n'ibindi bikoresho byinshi, icyumba gitatse neza ubona ko bari gufata indyo yuzuye kugira ngo bakomeze kugira amasaziro meza ndetse batibagiwe no kunywa amazi.

Ahantu hahuriye abantu benshi abamama ndetse n'abapapa hari n'abakecuru, hari umukecuru bari guhereza imfashanyo ubona ko yishimiye cyane kuyakira, umukecuru ufite umwitero mu mutwe afite n'uwundi yifubitse mu gatuza, ubona ko ari abantu bishimye.

Umusaza n'umukecuru bishimye bari ku meza iriho ibiribwa n'amazi ubona ko bishimye nta kibazo bafite, bafite imisatsi yose yabaye umweru kubera ko ari abantu bageze mu zabukuru.

Umusaza wambaye imyenda ya siporo y'ubururu afite n'agakoresho ka siporo mu kiganza k'ubururu, afite imisatsi ye yarabaye umweru ndetse n'ubwanwa yishimye ari guseka, hari umumama uri kumukoresha siporo, uri kugerageza kwita ku buzima bwiwe kugira ngo azagire amasaziro meza.

Abakecuru batatu bishimiye cyane bari guseka, uri hagati yabo afite telefone yayishyize imbere, ari kubafotora bishimye bitaweho, bahurijwe ahantu, abantu bageze mu zabukuru bahurizwa bagahabwa ubufasha bw'ibanze ikintu cyose bakeneye bakakibakorera bakabitaho bagamije kubagenera amasaziro meza.

Abamama benshi bari ku mu rongo ubona ko bishimye, abenshi muri bo bambaye udupfukamunwa, abandi bambaye imyenda y'umweru hejuru, bari ku murongo bari kugenda muri njyana imwe bishimye, ubona ko hari igikorwa runaka kimwe cyabahurije hamwe.

Icyumba kirimo abantu babiri, umuganga n'umurwayi w'umukecuru, umuganga ari gufasha umukecuru kuba yamwereka uburyo yazajya agororora ingingo ziwe mu gihe ingingo z'umukecuru ziba zitagororotse.

Abagabo babiri ubona ko bishimye bambaye imipira y'umweru bose hejuru n'amapantaro bari ahantu bari muri siporo buri wese afite icupa ry'amazi mu ntoki bari kugenda bakora siporo banywa no ku mazi kugira ngo amazi bari gukura mu mubiri kubera ibyuya bahita bayasubizamo umubiri wabo ukomeze umeze neza nta kibazo bafite.

Icyumba giteye irangi ry'umweru kimeze neza, harimo imeza ndetse n'intebe, intebe ebyiri zicayeho abantu babiri, umuntu umwe ni umuganga wambaye agakoresho gafasha mu gupima ubuzima, yambaye n'imyenda igaragaza ko ari umuganga, bafite ikaye ari gusomamo yereka umusaza ukuntu ubuzima bwe buhagaze ari kugerageza kumwitaho kugira ngo azagire amasaziro meza.

Umusaza ukuze ndetse n'abana babiri bari ahantu mu cyaro bari gufata amafunguro umwana umwe afite icupa mu ntoki undi ntaryo afite bari imbere y'umuryango nzu igaragara nkaho ari ahantu mu cyaro, ryose umusaza afite umusatsi w'imvi bigaragara ko ari umusaza usheshakanguhe.

Umukecuru uri gukata imboga n'imbuto yishimye yambaye amarinete ari kuzikatira ahantu ku meza, ari n'undi muntu w'umumama bari kumwe na we imbere ya hari isirori iri mu kirahure bari mu nzu iteye amarangi y'umweru bishimye cyane bari guseka.

Umukecuru w'umukene wicaye ahantu wenyine, acanye ku mashyiga ateretseho inkono, ahantu hari ibyatsi byinshi bihakikije, bishobora gushyira ubuzima bwe mu kangaratete hagize umuriro ufata muri ibyo byatsi bikaka, bikaba byamugiraho ingaruka zikomeye cyane z'ubuzima.

Umugabo ushaje cyane ari kugendera ku tuntu dufasha umuntu utagishobora kugenda neza kuba yashobora gutambuka, ufite ubwanwa bw'umweru bigaragara ko yashaje, hari n’umu mama w'umuganga ari kumufasha kumwitaho kwita ku buzima bwe kugira ngo azagire amasaziro meza, bari mu cyumba kirimo intebe n'utubati.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abaganga bambaye imyenda ibafasha kurinda imibiri yabo, bafite n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa kwa muganga bari kuvura, ubona ko ari umuntu bari kwitaho, bari kugerageza gutabara ubuzima bwiwe, bifashishije ibyo bikoresho byo kwa muganga.

Umugabo n'abana b'abanyeshuri bamwicaye imbere yicaye ari kubaganiriza, ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, arikubabwira ukuntu ubuzima bwo mu mutwe ari ikibazo gikomeje gufata indi ntera mu Rwanda, ari kubabwira ukuntu bagomba kwirinda no gutwara ubwonko bwabo kugira ngo imitekerereze yabo izagumane neza kugeza mu buzaza.

Inzira zihari zigera mu nzira esheshatu umuntu ashobora gukurikiza cyane cyane nk'umubyeyi kugira ngo afashe umwana we nimba afite umwana mutoya kugira ngo amufashe kumurinda igwingira, haba igwingira ry'umubiri cyangwa igwingira ryo mu mutwe cyangwa mu mitekerereze.

Abantu batatu bicaye imbere harimo umugabo umwe n'umugore umwe n'undi mugore w'umuzungu, abandi benshi bicaye nabo imbere yabo nk'indorerezi bari gukurikirana ibiganiro bari kubagezaho, bose bicaye bahujwe n'umugambi umwe wo kuganira ku bintu bijyanye n'ubuzima.

Icyumba cyahuriyemo abantu benshi biganjemo urubyiruko ndetse n'aba mama bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza bari gukurikirana ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima ku buryo bazajya bita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abandi muri rusange, benshi muri bo bambaye imipira y'umweru.

Abakobwa babiri n'abahungu babiri bari ku ifoto bafite udukingirizo bari kugerageza kwereka abantu ko gukoresha agakingirizo ari uburyo bwizewe bwagufasha kwirinda indwara ndetse no kwirinda inda zitateganyijwe igihe wananiwe kwifata nk'umuntu.

Umugabo uri imbere y'imbwirwaruhame, uhagaze imbere ku kameza batangiraho inama, imbere ye hari amakamera, ubona ko hari ibyapa bibiri biriho abagabo bagiye batandukanye, bari kugenda bavuga ku bintu bijyanye n'ubuzima, bari kugira inama abantu ku bijyanye n'ubuzima.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kiriho ishusho y'abantu babiri umuganga n'umurwayi yicaye ku ntebe, umuganga afite serengere n'urushinge, serengeri imirimo urukingo, ari kurutera umurwayi bose bambaye udupfukamuwa, kugira ngo amukingire icyorezo cya covide cumi n'icyenda.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuzima, harimo umuntu uri kugenda afasha abantu abapima areba uko ubuzima bwabo buhagaze harimo n'abandi benshi bari ku murongo bagerageza kwaka serivisi n'abandi bicaye, bari kugenda babafasha bicaye ku ntebe abandi bahagaze ku meza imwehaye hagiye hariho ibikoresho byo kwifashisha ndetse hari na mikoro.

Abantu baturuka ku migabane itandukanye abanyafurika ndetse n'abanyaziya bahuriye ahantu hamwe bahagaze imbere y'icyapa, bambaye amabadge mu gatuza, agaragaza ibintu bamaze guhugurwamo bijyanye n'ubuzima.

Umumama w'umuganga uri kumwe n'abandi bamama babiri bagaragara nk'aho bakuze, yambaye ibimufasha kurinda intoki ziwe ,afite agakoresho gapima umuvuduko w'amaraso, ari kugerageza gupima ubuzima bw'abo babiri bari kumwe ukuntu buhagaze.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'inzu y'ubuvuzi, baje kwaka serivisi z'ubuvuzi, hari n'abandi bari imbere yabo; abenshi ubona ko bari ahangaha hobora kubaha bambaye udupfukamunwa tubafasha kuba bakirinda indwara zigenda zandura z'ubuhumekero

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe eshatu nziza z'abarwayi bicaramo ndetse n'utundi dukoresha muganga yifashisha ari kwita ku buzima bw'umurwayi dufite isakazamashusho ishobora kuba yakerekana ubuzima bw'umurwayi uku buri kugenda kirimo isaha yerekana igihe ndetse n'indi nsakazamashusho umuntu yaba ari kureberamo amashusho igihehe ategereje ko bamugeraho ngo bamuhe ubuvuzi.

Amarembo manini y'ibitaro bya kabgayi bivura indwara nyinshi zitandukanye n'inyubako nyinshi zigiye zigize ibyo bitaro n'amatara atuma ibyo bitaro bigaragara nibwo byaba ari nijoro ibiti byinshi birimo ibyo bitaro bigenda bikurura umwuka abantu bahumeka babigannnye n'umuntu uri ku igare ari kwinjira muri ibyo bitaro n'abandi bantu babiri barimo ndetse n'imisozi n'amashyamba agiye akikije ibyo bitaro.

Icyumba cyagutse cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byinshi bishobora gufasha umuntu ushaka kugorora umubiri we bitewe n'igice cy'umubiri ashaka kugorora, harimo buri gikoresho cyamufasha kubigeraho.

Inzu ifite icyapa imbere yayo kisize irangi ry'umweru kigaragaza izi serivisi batanga, iri ahantu heza hameze neza, ishobora kuba yatanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bafite indwara zigiye zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bufasha kuba bwasubiza umuntu ubuzima, isize amarange y'umweru, kimeze neza ubona ko harimo umuriro w'amashanyarazi amatara ari kwaka nta kibazo.

Inyubako nziza nini, imbere yayo hari ubusitani bwiza buhinzemo indabyo, hari gusohokamo umuntu ushinzwe umutekano, inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kuganiriza abantu baba bafite ibibazo byo mu mutwe.

Icyapa, ibiti bihagaze, ndetse n'igikuta kigaragaza gereza y'umujyi wa Kigali, aho imfungwa zijyana zikagororwa iyo hari ibyaha zakoze ,zigomba guhanirwa aho zihurirwa hamwe zose zigafungirwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda cy'umurwayi ndetse n'udukoresho twinshi twafashishwa kugira ngo bafashe umurwayi barebe uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, harimo agakoresho kifashishwa harambikwaho ibikoresho bari kuvura umurwayi cyangwa se bari kumubaga cyangwa hari imiti bamuzaniye bari kuyishyiraho ndetse n'akantu gasakaza amashusho kagaragaza ukuntu ubuzima bw'umurwayi buhagaze, buri kugenda bujya mbere.

Inzu y'ubuvuzi ikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima ishobora kuba yakorerwa mu bushakashatsi bwa ruvumbura ikintu gishobora gutabara ubuzima bw'umuntu igihe yaba hari ikibazo yahuye nacyo cy'uburwayi.

Inzu yubatse mu buryo bwa etaje, ifite n'akandi kazu imbere gatangirwamo serivisi runaka waba uje kwaka. Ni inzu y'amashuri ifasha abantu kwiga, ku bijyanye n'ubuganga, abantu bashaka guhugurwa bagira ubumenyi ku buryo bazavamo abaganga, aho bigira.

Umugabo wicaye mu nzu y'ubuvuzi, wambaye umwenda ugaragaza ko atanga serivisi z'ubuvuzi mu bitaro. Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bigenda kuba byakwifashishwa umuntu ari gutabara umurwayi; harimo insankanyamashusho ishobora kuba yagaragaza ukuntu ubuzima bw'umurwayi buhagaze; ubona ko ari umugabo wishimye cyane, nta kibazo afite habe na kimwe.

Iicyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda by'abarwayi kirimo n'imyuka ifasha abarwayi guhumeka igihe umwuka ubonyeye makeya kirimo umurwayi wiryawe ku gitanda harimo n'umuganga uri kugerageza kumwitaho kirimo n'imashini igenda igaragaza ko umutima w'umu wumurwayi uri gutera nimba akeneye ubutabazi vuba vuba cyangwa nibwo umutima uri kugenda neza ntaki kibazo.

Ikigo nderabuzima cyatabagwe cyatewe inkunga n'imbuto foundation, aho kizajya gifasha aba baturagetabaguye ndetse n'abandi baba baturutse impande n'impande, kubona ubuvuzi bw'ibanze bu bihutiye aho kugira ngo bajye bose guhurira ku bitaro. Ikigo nderabuzima cyabafasha kikabaha ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage.

Abantu benshi bari bahuriye ku nzu yari imaze kubakwa, izajya ifasha ababyeyi baje kubyariramo, hari abajyamo higanjemo abajyanama b'ubuzima n'abandi bantu benshi baje gutaha iyo nzu, ubona ko babyishimiye kuba begerejwe ahantu hazajya hafasha ababyeyi kubyara, bitabafashe gukora urugendo rurerure ngo babe bahura n'ikibazo mu nzira.

Icyumba kirimo igitanda cy'umurwayi, harimo ibikoresho byinshi bishobora kwifashishwa bavura umurwayi bamwitaho, harimo n'igishushanyo cyiza cyane, harimo imiti iteretse ku gitanda cy'umurwayi, ariko nta ugaragara ko nta murwayi urimo, uri bukoresheje ibyo bintu, ariko ubona ko ari icyumba cyiza cyane gishobora gutuma umurwayi yitabwaho, buzima bwe bukamera neza, nta kibazo na kimwe afite.

Ikigo nderabuzima cya kigina imbere yaho hahagaze umumama uhetse abana yabyaye, uhetse abana babiri ahangaha ni ku marembo yaho aho umuntu agiye kwinjira mu kigo nderabuzima, gishobora kumufasha igihe atashoboye kugera ku bitaro byihutirwa kugira ngo abe yakita ku mwana we byihuse.

Icyumba cyo kwa muganga aho abarwayi barwarira igihe barembye batashobora guhita basubira iwabo, kirimo aho umuganga aba aherereye, aho abarwayi baryama ndetse harimo n'inzitiramibu zo umurwayi aryamamo kugira ngo ataba yakwahatakwa n'icyorezo cya malariya n'ibindi bikoresho byinshi bifasha umuganga kuba yakita ku murwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirwariramo abantu, harimo abarwayi benshi bamwe baryamye ku bitanda abandi babyutse, ubanako hejuru ya buri gitanda hari inzitiramibu ikoranye umuti, ndetse n'amatara yaka neza kugira ngo abarwayi bukomeze bagire ubuzima bwiza bitabwaho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigiye bitandukanye bishobora kwifashishwa hariho n'udukoresho umuntu yashyiraho serum igihe umurwayi yaba arwaye ayikeneye, ushobora kuryamaho abarwayi barembye batashobora kujya kurwarira iwabo kugira ngo bagume hafi y'abaganga bitabwaho.

Inzu y'ubuvuzi ifite icyapa kiyiranga imbere kuri yo, izengurutswe n'ubusitani bwiza, hari n'ibiti bikurura umwuka mwiza abantu baje kuhafatira ubuvuzi bahumeka, inzu ifite amadirishya n'inzugi biteye irangi ry'umweru, ifite n'ibirahure.

Abamama batatu bicaye bamwe bagaragara ko bari mu myaka ikuze n'undi uri nabo bigaragara ko ari umuntu ufite ubumenyi mu kuba yakita ku bantu ari kubapima kugira ngo arebe ukuntu ubuzima bwabo buhagaze yambaye n'imyenda igaragaza ko ari mu kazi bari ahantu hakikijwe n'ibiti ubona ko bari kugerageza kubitaho kugira ngo bazagire amasaziro meza.

Abaganga b'abamama batandatu bari imbere y'icyapa kigaragaza aho bakorera, bambaye impuzankano imyenda isa iri mu ibara ry'ubururu, bambaye n'udupfukamunwa ubona ko bishimye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyo kwa muganga cyo kurwariramo kirimo umugabo urwaye aryamye ku gitanda hari ibikoresho byinshi by'imashini bishobora gufasha gupima ubuzima bw'uwo murwayi w'umugabo nimba buri kugenda neza umurwayi asa nkaho ari gukira kuko urabona ko ari guseka nta kibazo.

Inzu yo gutangirwamo amaraso irimo udushashi twinshi turimo amaraso yagiye atangwa n'abantu baje kugira ngo batange amaraso yabo ajye gutabara imbabare harimo n'abantu baje gutanga amaraso baryamye ku bitanda n'abandi bari kubafasha mu icyo gikorwa biyemeje cyo kuba batanga amaraso ngo batabare ubuzima bw'abandi benshi.

Inzu y'ababyeyi babyariramo igihe umubyeyi yaba afashwe n'inda akaba yaza akayibyariramo, abantu bari ahongaho bafasha ababyeyi kuba bababyaza, bicaye abandi hari uhagaze, imbere yabo hari ameza basa nk'aho hari ibintu bari kuganiraho.

Inzu y'ibitaro bikuru bya nyarugenge itangirwamo serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye, aho ushobora kujya urwaye indwara itandukanye bakaba bagufasha ukavayo wongeye kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kuko hari ibikoresho byinshi bishobora kuba byakifashishwa mu gutabara umuntu bitewe n'indwara agiye kuyivura.

Inzu nshyashya yari imaze kuzuzwa ishobora gufasha umubyeyi wafashwe n'inda, umubyeyi ushaka kubyara kuba yayifashisha akabyariramo bakamufasha aho kugira ngo biba ngombwa ko ajya ku bitaro bikuru inzu iteretseho amacupa abiri imbere yayo ahinzemo indabyo ubona ko hari inzu nshyashya imaze kuzuzwa vuba yo gufasha abantu batuye muri ako gace.

Ikigo gishinzwe kugenzura ibijyanye n'indwara ya malariya, gipima kinakora ubushakashatsi ku miti ya malariya ishobora kuba yafasha kugabanya malariya mu gihugu, kuvura abantu bafashwe na malariya, banakusanya uburyo bwose bushoboka bwo kuba umuntu yakirinda kurwara icyorezo cya malariya.

Ku marembo y'ibitaro bikuru bya Nyanza aho binjirira hari amarembo ari mu ibara ry'ubururu yanditseho inyuguti ebyiri za H zandikishije ibara ry'umweru, mu imbere mu bitaro harimo ibiti, harimo n'inyubako zigiye zitandukanye zishobora kurwariramo abarwayi bari kwitabwaho.

Icyumba kirimo insankanyamashusho, kirimo intebe n'ameza bigezweho byo gutegererezaho, kirimo laptop, kirimo n'ibindi bikoresho abaganga bifashisha bari gupima umuntu arwaye amaso, bigaragara ko ari icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amaso bugiye butandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi byakwifashishwa mu gutabara umurwayi gisize amarangi y'umweru, harimo imashini zishobora kuba zafasha umurwayi kuba yakongera kumera neza, harimo umuganga uri kugenda agerageza gukoresha izo mashini afite n'umuti mu ntoki, yambaye n'agapfukamunwa ndetse n'imyenda igaragaza y'uko ari mu kazi.

Ikigo cy'ubuvuzi cyubatse neza cyane, imbere yacyo hari igipangu kigikikije, hari busitani bumeze neza, hari indabyo nziza cyane zigaragara neza ubona ko ari ahantu hashobora kwakirirwa abarwayi batandukanye cyangwa se bafite ibibazo byo mu mutwe kuba babaganiriza bakabahereza ubuvuzi bw'ibanze.

Inzu yubatse neza itangirwamo serivisi z'ubuzima, imbere yayo hateretse intebe eshatu zo gutegererezaho z'umutuku, hari n'udusanduku ushobora kunyuzamo ibibazo byawe, inzu yubatswe kugira ngo izajye ifasha abantu, igihe baba bakeneye guhabwa serivisi z'ubuzima, bajye babagana abarimo mu nzu mo imbere babafashe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi umurwayi ashobora kubariho ndetse n'aho umuganga ashobora gushyira ibikoresho, ibikoresho bishobora kugenda bipima uburyo ubuzima bw'umurwayi buhagaze byifashishwa mu kuba byatabara ubuzima bwe.

Ahantu hari ibiti, hari inzu, hari n'abantu bari imbere y'icyapa cy'ibitaro bya Butaro, higanjemo abazungu n'abirabura, abagore n'abagabo, basa nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inzu irimo imiti yakifashisha bari kuvura indwara zitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka, imiti igiye ibitse mu tubati imeze neza nta kibazo, aho waza ukagura imiti ukagenda ukayikoresha, aho kugira ngo wirirwe ujya kwa muganga.

Hano mu cyaro harimobyare ndetse n'inzu bigaragaragaraga ari iyo mu cyaro, umumama wicaye, ndetse n'undi muntu umuhagaze imbere bigaragara ko atanga serivisi z'ubuzima, afite n'agakoresho kifashishwa mu gupima nimba umuntu ubuzima bwe buri kugenda neza, ari kuganiriza ari kumuha ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima.

Inzu nziza igaragara neza cyane imbere yayo hari ubusitani, hari inzu zitandukanye, imbere ubona ko hari indi itari yuzura neza, aho bigaragara ko ari inzu zikorerwamo ubuvuzi runaka zishobora gutabara abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyapa, umuhanda, inyubako zitandukanye z'ishuri rirererwamo abitegura kuzaba abaganga i Butare bashobora kuzajya bafasha kuvura indwara zitandukanye baratojwe neza muri iniverisite y'aho ngaho i Butare.

Inzu nziza yubatse mu birahure igiye iriho amashusho atandukanye n'imbere harimo amatara yaka neza, inzu y'ubuvuzi ishobora kuba yafasha umuntu urwaye kuba yajyamo bitewe n'indwara arwaye bakamufasha bakamuvura kuko harimo ibikoresho n'imiti ishobora kwifashishwa bari kuvura umuntu.

Ikigo cy'ubuvuzi gifite inyubako nyinshi, gifite ibyobo bifata imyanda, gifite ubusitani bugiye bumeze neza, gifite ahantu h'amapuberi bashira imyanda, ikigo gikikijwe n'amashyamba ashobora gutuma hazamo umwuka wo guhumeka, ubona ko ari ikigo kimeze neza gishobora gufasha abaturage mu buvuzi bw'ibanze.

Ikigo cy'ubushakashatsi cyubatse neza hari abantu b'aba mama bicaye imbere yacyo gikikijwe n'indabo nziza n'ubusitani ubona ko hari abantu baje gushaka serivisi zijyanye n'ubushakashatsi.

Inyubako nini cyane y'itaje imbere yayo haparitse imodoka n'urundi ruhande rwayo haparitse imodoka iriho icyapa kigaragaza aho bagurira imiti i Remera ishobora kuba yafasha umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi kuba yakongera gukira bitabaye ngombwa ko ajya guhura n'umuganga mu bitaro.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ifite icyapa kigaragaza aho bakirira abantu, kiri mu ibara ry'umutuku, imbere yayo haparitse imodoka ndetse isize irangi ry'umutu n'umweru hejuru, ikikijwe n'igipangu cyubakishije ibyuma.

Ahantu hari abantu benshi hari n'undi wicaye aho ngaho ku gatanda wahuye n'ikibazo mu kuguru yariri gukora siporo ategereje umuntu uza kumufasha akamwiteho, kuba yakongera kugarura ubuyanja akaba yashobora kugenda, nk'abandi kuko yari yahuye n'ikibazo cy'imvune yari muri siporo.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti n'amapoto atwara amashanyarazi, urimo imbangukiragutabara yo ku bitaro, ushobora kujya kuba itwaye umurwayi cyangwa igiye kuzana umurwayi ku bitaro kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse cyane.

Inkweto na baro bya siporo n'agakoresho gapima ukuntu umutima w'umuntu uri gutera, n'umuvuduko ukuntu amaraso ari gutembera mu mubiri w'iwe byamufasha igihe ari gukora siporo kumenya uko ubuzima bwe buhagaze kugira ngo atagira ikibazo cy'ubuzima ahura na cyo mugihe ari gukora siporo cyangwa asoje kuzikora.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru kigezweho kirimo abakinnyi bagiye batandukanye bagiye bambaye imyenda itandukanye, harimo uwagize ikibazo yavunitse imbere ye hateretse umupira ku rundi ruhande hari igikapu cy'umuntu uje kumufasha kuba yamuha ubutabazi bw'ibanze.

Umusore uvuye muri siporo ananiwa ari ahantu hari umusozi, yambaye isengeri ari ku gerageza kwisukaho amazi kugira ngo yumve aruhutse, kuko amazi arafasha cyane iyo uvuye muri siporo. Amazi n'ingenzi cyane k'umuntu uvuye muri siporo, hano yari amaze kunywa amazi ari n'ukwisukaho amazi kugira ngo yumve agaruye ubuyanja.

Umugabo uri muri siporo zikomeye cyane, imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'imboga bigaragara ko umuntu ukora siporo agomba kujya yita ku mbuto ndetse n'imboga kuko bishobora kuba byamufasha kuba yakomeza kugira ubuzima bwiza kuko aba akoresha imbaraga cyane akora siporo.

Umukobwa wicaye uri gukora siporo imbere ye hari udukoresho dutandukanye two gukoresha siporo hari n'icupa ry'amazi ari kugenda yifashisha anywaho kugira ngo amazi ari gutakaza mu mubiri ayasubizemo ari mu kuzikorera mu cyumba kirimo intebe ndetse imbere ye hari mudasobwa ari kwifashisha amashusho yo muri mudasobwa agenda asubiramo ibyo abonye mu mashusho kugira ngo agorore umubiri we.

Umukobwa uri mu kibuga, ufite agakoresho ko gukoreraho siporo, uri gukora siporo ngororamubiri, wambaye imyenda ndetse n'inkweto bya siporo, ufite imisatsi myinshi, ikibuga gisa neza cyane, ari kugenda asunika akantu ko gukoreraho siporo, ari kugorora ingingo ze z'umubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu batandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo, hari insakazamashusho ari kugenda aberekeramo ayo mashusho, nabo bafite amakaye n'amakaramu bari kugenda bandika, amakuru bari kugenda bakura mw'ayo mashusho ari kubereka.

Igikombe cy'ikirahure n'ijyaga y'ikirahure, aho amazi ari gusukwa avanwa mu ijyaga asukwa mu gikombe cy'ikirahure, agiye kunywebwa n'umuntu uvuye gukora siporo kugira ngo agaruze amazi mu mubiri, yatakaje igihe yari arimo gukora siporo ziwe.

Ibimenyesho byinshi by'indwara zigiye zitandukanye, harimo kuba uri kubabara umutwe cyane bikabije, kuba uri kumva urusaku, kuba uri kumva utameze neza, umutwe uri kukurya ndetse no kuryama ntusinzire, ni bimenyetso bishobora kukugaragariza ko ubuzima bwawe butameze neza.

Umukobwa ufite ibisuko, wambaye agatambaro ku mutwe, ari muri siporo ari gukora siporo zo kugorora amaboko ye, ndetse akagorora n'ibiganza, kugira ngo bigume birambutse, umuntu ukora siporo zo kugorora amaboko n'ibiganza, biba bigororotse bitandukanye n'umuntu utabikora.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga n'umurwayi uryamye umuganga ari kumwitaho kirimo igikoresho cyo kwa muganga gipima uburyo umutima w'umuntu uri gutera, uburyo ubuzima bw'umuntu buhagaze gishobora kwereka muganga nimba ubuzima bw'umuntu buri mu kangaratete cyangwa se nimba ubuzima bwe bushobora gukomeza kwihangana ikindi gihe kugirango abone ukuntu amufasha harimo n'ibindi bikoresho byinshi bishobora kwifashishwa batabara umurwayi.

Umukobwa wicaye uri gukora siporo wambaye igikoresho ku kuboko gishobora kumufasha gupima ubuzima bwe, mbere ye hari icupa ry'amazi yo ashobora gukoresha ari kunywa kugira ngo abe yasubiza umubiri amazi yaba yatakaje ari muri siporo ari kubira ibyuya.

Igikoresho kiri mu cyumba cyo kwa muganga gishobora kwifashishwa bari kureba mwo imbere mu mubiri w'umuntu ikibazo yaba afite; bakaba bashobora kumufasha kwivura kuko ikibazo aba yari afite mu mubiri kiba cyamenyekanye. Bashobora kukifashisha bari kureba mwo imbere mu gifu cyangwa se bari kureba amagufwa y'umuntu nimba atekanye.

Umugabo uri gukora siporo ngororamubiri yambaye imyenda ya siporo, apfukamishije ukuguru kumwe ukundi yagushinze imbere ari kugorora umubiri we kugira ngo umubiri we ukomeze ukore neza, azagire amasaziro meza ndetse amaraso ajye atembera neza mu mubiri we.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bari basoje gukora siporo, bari hamwe bari kuruhuka bafite amacupa y'amazi, buri wese afite icupa ry'amazi, ari kunywa amazi kugira ngo abe yagaruza mu mubiri amazi yatakaje ari gukora siporo.

Igikapu kirimo ibikoresho byinshi ndetse n'imiti n'amazi bishobora gufasha umuntu waba ahuye n'ikibazo ari muri siporo cyangwa se akagira ikibazo mbere cyangwa nyuma yo kujya muri siporo, akaba yashobora guhabwa ubutabazi bw'ibanze mbere y'uko abasha kuba yagezwa kwa muganga.

Abantu benshi n'umugabo bigaragara ko asanzwe akora siporo yarabigize umwuga yicaye ku kantu k'agatanda yahuye n'ikibazo mu ivi rye yavunitse ahicaye ategereje abantu bagerageza kumwitaho kubw'ikibazo yari yahuriye na cyo muri siporo.

Umugabo uri gukora siporo ngororamubiri, wicaye ahantu mu byatsi, ari kugorora ibirenge bye, amaguru ndetse n'amaboko, ari kugerageza gukora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze, abe aringaniye umubiri we ashobora kuwuhuza n'ibiro by'iwe nta kibazo.

Umukobwa umaze gukora siporo wambaye imyenda ya siporo uri ahantu hatuje afite icupa ry'amazi, hari kurasa izuba, ari kunywa amazi kugira ngo abe yagaruza mu mubiri amazi yatakaje igihe yari ari kubira ibyuya yari muri siporo; hari ama umubiri uba wasohoye akaba agira ngo abe yayasubiza mu mubiri, umubiri usubirane ya mazi yawo.

Ikibuga aho abantu bahurira bari gukora siporo bagerageza kugorora umubiri wabo, abantu babiri umwe afite umupira mu ntoki, undi ari kugendera ku byuma abantu bagenderaho iyo bafite ikibazo cy'amaguru badashobora kugenda neza.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, wambaye n'urunigi mu ijosi, uri kunywa amazi, bigaragara ko avuye muri siporo, yarabimenye ko amazi iyo umuntu avuye muri siporo aba yatakaje amazi menshi, uba ugomba gufata amazi kugira ngo umubiri wawe ugarukane y'amazi watakaje, wongere ugarure ubuzima bwiza kuko umubiri ukeneye amazi.

Icyumba bakoreramo siporo ngororamubiri kirimo ibikoresho bishobora gufasha umuntu ushaka kugorora umubiri we akumva ameze neza kuko buiya siporo ni ubuzima kirimo umutoza utoza ukuntu umuntu yakora siporo agorora umubiri we kirimo n'undi utozwa aho umutoza ari kwerekera uwo mutozwa ukuntu umubiri we agomba kuwukoresha siporo bitewe n'igice runaka ashaka kugorora cy'umubiri.

Umuntu uri mu cyumba cyo kwitabwaho cyo kwa muganga ari kumwe n'abaganga, aryamye ku gitanda bisa nk'aho yavunitse akaguru bari kumugorora bagerageza kuba basubiza akaguru ke ku murongo kugira ngo yongere akaguru gasubiremo neza abashe kuba yatambuka nk'abandi yumve ko ameze neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye imyenda imugaragaza ko ari umuganga, akaboko k'iburyo kariho isaha; yambaye ikarita imuranga nk'umuganga. Hariyo igitanda cyicayeho umurwayi wagize ikibazo cy'akaguru, aragerageza kumushyiraho igikoresho gishobora kuba cyamufasha kugira ngo igufa ryagize ikibazo risubire ku murongo, ari ahantu ku gitanda yicaye yakunje ipantaro bari kumuvura.

Ibikapu bibiri kimwe kirafunze ikindi kirafunguye, harimo ibikoresho ndetse n'imiti ishobora kwifashishwa bari guhereza ubuvuzi bw'ibanze umuntu waba wahuye n'ikibazo ari gukora siporo, akaba yatabarwa mu gihe atari yageze kwa muganga, akagera kwa muganga ubutabazi bw'ibanze yabubonye.

Icyumba kirimo abantu batatu abamama babiri ndetse n'umwana, gishashemo ubona ko bishimye umumama umwe aryamye, uwundi aricaye n'umwana aricaye afite igikombe mu ntoki, umwana ari guseka n'undi mumama wicaye ari guseka, icyumba kirimo n'inzitiramibu ubona ko bameze neza ntakibazo.

Umugabo uri ahantu umaze gukora siporo wambaye imyenda ya siporo, uri kunywa amazi meza ari mu icupa, kugira ngo abe yagaruza mu mubiri amazi yatakaye mu gihe yari ari kubira ibyuya, ari gukora siporo, kugira ngo umubiri we ukomeze kugira amazi ameze neza.

Umugabo umaze gukora siporo, wambaye imyenda ya siporo uri kunywa amazi akuye mu icupa ryiza, ari kugerageza kwita ku mubiri we amazi watakaje ari kubira ibyuya igihe yari ari muri siporo, ari kugerageza kuyasubiza mu mubiri kugira ngo bitagira icyo bimuhungabanyaho ku buzima bwe.

Umuntu wambaye urukweto rumwe ikindi kirenge cyambaye ubusa, hari n'undi uri kumwitaho yagiriye ikibazo muri siporo yavunitse ikirenge, aryamye ku gitanda ari kugerageza kwitabwaho kugira ngo abe yakongera kubasha gukira, ikirwnge cye cyongere gisubire ku murongo.

Umuntu wambaye imyenda ya siporo y'icyatsi n'inkweto z'icyatsi yambaye n'isaha, ari ahantu hakorerwa siporo ari gukora siporo zo kugorora umubiri we yunamye yafashe ku mavi, ari kugorora umugongo ari kugerageza kugorora umubiri we kugira ngo azagire ubuzima bwiza none ndetse n'ahazaza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu gupima umurwayi, bareba indwara yaba arwaye, kirimo umuganga wambaye imyenda y'abaganga, harimo n'undi mumama wambaye agapfukamunwa, uteruye umwana yaje kuvuza kwa muganga, umuganga ari kumusuzuma ngo arebe niba hari ikibazo yaba afite.

Icyumba gikorerwamo siporo kirimo abantu bari gukora siporo n'abantu bari kubafasha, bari kubagorora umubiri wabo, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa muri siporo, bigenda bifasha abantu kubagorora ingingo zimwe na zimwe z'umubiri, bitewe n'urugingo ashaka kugorora.

Umuganga n'umuforomo bari ahantu mu ivuriro bari kumwe bari kugenda batoranya imiti yo kujya kwita ku barwayi bari mu cyumba kirimo imiti y'abarwayi runaka, bashaka kujya kwita ku barwayi kugira ngo barebe umuti umumurwayi akeneye, bari kugenda bafatikanya bareba umurwayi akeneye iki.

Umukobwa usoje gukora siporo wambaye igitambaro cy'amazi mu ijosi wambaye imyenda ya siporo uri kunywa amazi kugira ngo amazi yatakaje ari gukora siporo abe yayagaruza mu mubiri umubiri wongere kumera neza, igihe yari ari kubira ibyuya hari amazi menshi agenda asohoka mu mubiri niyo mpamvu aba agomba kunywa amazi menshi ashoboka igihe amaze gukora siporo.

Udukoresho twifashisha bari gukora siporo, igikoresho cyifashishwa bari gupima uburebure, imbuto zigiye zitandukanye, harimo nk'amarongi n'izindi mbuto, ndetse n'igikombe kirimo ji; bishobora kuba byafasha umuntu uvuye muri siporo cyangwa uri gukora siporo, kuba yakomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukobwa uhagaze imbere y'amazi yamanitse amaboko yambaye imyenda ya siporo, ari gukora siporo agerageza gutuma ubuzima bwe bukomeza kuba bwiza abinyujije mu gukora siporo, akaba yakirinda indwara z'umuvuduko w'amaraso, ndetse no kuba umubiri we waba uringaniye nta kibazo afite.

Umugabo ukomeye cyane kandi ushyitse bigaragara ko akora siporo, by'umwihariko siporo zigenda zikomeza umubiri we kandi ukaguka ukaba munini, siporo zishobora gutuma ubuzima bwe bukomeza kumera neza aramutse atazihagaritse agakomeza kuzikora, wambaye ubusa hejuru hariho ikimenyetso ku rutugu rwe kiri kugaragaza ukuntu yagerageje kurukoresha siporo cyane.

Igikoresho cyiza gikomeye gishushanyijwe nk'ukuguru k'umuntu, gishobora kwifashishwa n'umuntu wahuye n'imvune runaka y'ukuguru, kuba yacyambara akaba yakongera gushobora kumuvinga, kikaba cyamufasha kugenda kigorora rya gufwa ryagize ikibazo kugeza igihe risubiye mu murongo.

Umukobwa uri muri siporo wambaye isaha ku kuboko n'imyenda ya siporo, uri ahantu hirengereye ari gukora siporo agerageza kugorora umubiri wiwe, ari kugorora amaboko ndetse n'izindi ngingo z'umubiri kugira ngo abe yakomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kirimo igikoresho gishobora kureba udusimba dutoya twaba turi ku kintu runaka cyifashishwa hari gupimwa indwara n'udusimba tuzitera dutoya cyane tutashobora kuboneshwa amaso, bakaba bakoresha iki gikoresho bari gusuzuma nimba ikintu runaka bari gupima nimba kiriho utwo dukoko cyangwase ntaturiho.

Umugabo wicaye ahantu, uvuye muri siporo, wambaye imyenda y'umukara, ari kunywa amazi afite icupa ripfunduye, bigaragara ko ari gufata amazi kugira ngo umubiri we wongere usubirane ya amazi aba yabuze igihe aba ari kwiruruka akora siporo abira ibyuya umubiri uba uri gutakaza amazi, aba gomba kuyagaruza akoresheje andi mazi aba yahaye umubiri.

Umumama uri gukora siporo ngororamubiri ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda ya siporo, uri ahantu mu cyumba giteye irangi ry'ubururu, wamanuye akaboko ke akagashyira munsi y'ikirenge, ari kugerageza gukora siporo zigorora umubiri we wose by'umwihariko ari kugorora umugongo n'amaboko yiwe.

Icyumba gikorerwamo siporo, kiriho umugabo wicaye ufite ibikoresho byo gukoresha siporo, umugabo w'umwirabura, uri n'umuntu w'umutoza, utoza abantu uburyo bakora siporo, kugira ngo siporo zibafashe kuba bagorora ingingo z'umubiri wabo, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri kunywa amazi wambaye umupira w'umweru, wambaye n'isakazamajwi mu matwi, avuye gukora siporo ari gusubiza amazi yatakaje igihe yari muri siporo, ari kuyasubiza mu mubiri kugira ngo umubiri we wongere utungane, umere neza.

Icyumba cya siporo kirimo abagabo babiri bari muri siporo, ubona ko umwe muri bo ari gutoza undi, ari kugenda amuyobora amufasha amwerekera gute gukuramo siporo, bafite imipira mu ntoki bari kwifashisha bakora siporo. Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bishobora kuba byakifashishwa.

Umugabo uri ahantu mu cyumba uteruye ikirabyo cyifashishwa mu kuvura gakondo gishobora kuvura indwara zitandukanye cyakifashishwa igihe umuntu yaba yahuye n'indwara kikaba cyamuvura bitabaye ngombwa ajya kuvurwa n'imiti yo kwa muganga wa kizungu.

Imiti igiye ipakiye mu buryo butandukanye, imiti gakondo ishobora kuvura indwara, harimo imbuto iruhande rwazo nk'inanasi n'imineke, bishobora kuba byafasha umuntu urwaye indwara ko yabyifashisha yivura aho kugira ngo ajye mu baganga ba kizungu.

Uducupa dutandatu twose duteretse ducuritse turimo umuti umwe uvura ibintu bimwe, ndetse uwo muti akaba ari umuti gakondo ukorwa mu bimera, ushobora kuba wafasha kuvura umuntu indwara arwaye bitewe n'ubwoko bw'iyo ndwara.

Icyatsi giteye ahantu heza h'icyatsi, gifite indabyo gifite n'ibibabi byinshi gishobora kwifashishwa mu kuvura indwaraye zitandukanye. Icyatsi kiri umuti gakondo gishobora kuvura umuntu bitabaye ngombwa ko ajya kwifashisha imiti y'abazungu.

Imiti myinshi igiye itandukanye iri mu bucupa butandukanye, budahuje imiterere harimo imiti y'amoko menshi ishobora kuvura indwara zigiye zinyuranye, ishobora gufasha umurwayi waba yahuye n'izo ndwara zimwe mu zo iyo miti ivura, akaba yayifashisha akongera agakira kamera neza.

Icyatsi gikura kirandaranda cyane kigira amababi menshi ashobora kwifashishwa mu kuba yavura indwara zitandukanye, havamo imiti gakondo ishobora kuba yatabara umuntu bitewe n'indwara umuntu arwaye, akaba yakwifashishwa avurwa aho kugira ngo ajye kwa muganga. wa kizungu kuba yafata imiti y'abazungu.

Ahantu hateguwe neza hari ibihoho byinshi hifashishwa, hatunganya ibimera bishobora kuba byavamo imiti yahvura abantu, babifata babikoranyiriza ahantu hamwe harimo abantu benshi bari kugenda babyitaho ndetse bagenda babipakira bakora n'ibindi kugira ngo bizahaboneke ari byinshi, babe bagenda babigemure mu murima bizavemo imiti ishobora gutabara abantu.

Imiti iri mu ducupa twinshi duteretse ahantu hamwe ku murongo tumwe dupfundikije imifuniko y'umutuku utundi imifuniko y'umweru irimo imiti ya kinyarwanda myinshi igiye itandukanye ivura indwara zigiye zitandukanye ishobora gufasha umuntu bitewe n'indwara arwaye.

Icyatsi kimeze neza gikura kirandaranda ahantu hose, gifite amababi menshi agenda ashobora kuba yavura umuntu indwara zitandukanye igihe akoreshejwe neza, akaba yamutabarira ubuzima aho kugira ngo ajye kwa muganga wa kizungu, akaba yakifashisha iyi miti gakondo ikaba yamuvura.

Umugabo wambaye umupira w'cyatsi kibisi ufite ikora rifite ibara ry'umuhondo uteruye ikimera mu ntoki, ikimera gishobora kuvamo imiti ya gakondo yavura umuntu indwara bitewe n'indwara afiteho kugira ngo ajye kwa muganga kwivurisha imiti ya kizungu akaba yakoresha icyo kimera kikamutabarira ubuzima.

Icyatsi cyiza cyane kiri ahantu mu gihuru, gifite indabyo, gifite n'amahwa, kifashishwa mu buvuzi gakondo hari indwara kivura, gishobora gutabara umuntu igihe yaba yahuye n'iyo ndwara, icyo cyatsi gishobora kuvura.

Amacupa y'amoko agiye atandukanye, ari ku mashusho atandukanye, agabanyijemo ibice bine, hamwe n'urubuga ushobora gushakiraho amakuru, y'iyo miti, imiti gakondo ishobora kuba yavura indwara zigiye zitandukanye umuntu yaba arwaye.

Ibikombe bibiri biteretse impande yaho hateretse ibibabi, mu imbere muri byo harimo ibibabi byakoze umuti wa kinyarwanda, umuti ushobora kuba wavura umuntu ufite indwara runaka ashaka kwivuza aho kugira ngo ajye gukoresha imiti ya kizungu mu bitaro, akaba yakoresha uwo umuti ukamutabara.

Amashusho menshi agiye atandukanye agaragaza ubwoko bw'ibimera bishobora kuba byakwifashishwa mu buvuzi gakondo ,bitabara umuntu waba urwaye indwara ijyanye n'ibyo bishobora kuvura ,igihe byakoreshejwe neza bikaba byamufasha kuba yagira ubuzima bwiza buzira umubiri.

Icyatsi gifite amababi manini cyane kandi menshi ashobora kuba yakifashishwa mu gukurwamo imiti gakondo, ishobora kuba yatabara ubuzima bw'umuntu bitewe n'indwara uwo muuntu arwaye akaba yakifashisha iyo miti ikaba yamuvura byihuse atari ngombwa ngo ajye kubonana na muganga wa kizungu.

Icyatsi gikura kirandarananda ahantu, gifite amababi menshi ameze neza, amababi ashobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo ari kuvura indwara, aho kugira ngo ujye kwifashisha imiti ya kizungu ubaye ufite iyo ndwara ushobora kwifashisha ibi byatsi bikakuvura.

Ameza arambitseho agatambaro, agatambaro karambitseho isahani, isahani irambitse agakombe karimo umutobe, umutobe urihomo imbuto zikase zigiye zitandukanye ziri kuruhande ndetse n'izindi mbuto ziwukikije bigaragara ko umutobe ukorwamo izo mbuto ari umutobe mwiza wizewe ushobora kuba wakwifashishwa kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Imbuto ndetse n'ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, bishobora kwifashishwa mu kuvamo imiti gakondo yavura umuntu bitewe n'indwara runaka afite, imiti yifashishwa mu kuba yavura umuntu bitabaye ngombwa ko ajya mu bitaro gufata imiti y'abazungu.

Imiti iri mu macupa atandukanye, imiti ikorwa mu bimera, ishobora gutabara ubuzima bw'umuntu, igihe afite indwara runaka yarwaye, akaba yayifashisha akayifata agakira izo ndwara bitamusabye ngo ajya gukoresha imiti y'abazungu.

Icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo gifite amababi, gifite indabyo zishobora kwifashishwa kiri kuvura indwara zitandukanye, cyavura umuntu aho kugira ngo abe yakoresha imiti ya kizungu akaba yacyifashisha kikaba cyamuvura indwara afite bidasabye agajya mu bitaro cyangwa se ajya ahandi hantu bavura bifashishije imiti y'abazungu.

Avoka ndetse n'igikakarubamba bishobora kuvamo isabune bikozwe neza isabune yavamo ikaba yashobora kwifashishwa mu kugira ngo umuntu akomeze kugira uruhu rwiza ruzira indwara z'uruhu kandi rumeze neza rusa neza rukeye

Igiti gikura kirandaranda ahantu kimeze neza gifite ibibabi byinshi bishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, igiti gakondo cyifashishwa n'abavuzi gakondo, aho kugira ngo umuntu abe yajya gukoresha imiti ya kizungu akaba yafata icyo giti bitewe n'indwara arwaye akaba yakira akagarukaruna ubuzima bwiza.

Amacupa abiri y'umuti ukorwa mu gikakarubamba ndetse n'izindi mbuto ushobora gufasha mu kuba wavura umuntu, wifashishijwe neza ushobora gutabara ubuzima bw'umuntu bitewe n'indwara arwaye akaba yakoresha uwo muti yivura kandi agakira.

Icyatsi gikura kirarandaranda hasi ku butaka, gifite amababi menshi cyane ashobora kwifashishwa mu gukurwamo imiti ishobora kuba yatabara ubuzima bw'umuntu, igihe atari yajya kwa muganga agahabwa imiti ya kizungu, akaba ari imiti gakondo yamufasha kuba yakira indwara.

Imiti myinshi gakondo, imiti igiye ipfunyitse mu buryo butandukanye ikozwe mu bimera aho ishobora kuvura indwara zitandukanye aho yashobora gutabara umuntu bitewe n'indwara arwaye, ikaba yamufasha aho kugira ngo ujye kwivurisha imiti ya kizungu, akaba yatabarwa n'iyi miti gakondo.

Umumama uri gukora ku byatsi bifite indabyo, bishobora kuba byakifashishwa mu buvuzi , ukenyenge igitenge, ibyatsi bishobora kuba byafasha mu buvuzi gakondo aho kugira ngo umuntu abe ajya gufata imiti ya kizungu akaba yabyifashishije bitewe n'indwara arwaye agafata iyi miti ya kinyarwanda ikaba yamuvura agasubirana ubuzima bwe bwiza.

Isirori nyinshi zitandukanye zigiye zirimo imbito nyishi zitandukanye n'ikiganza cy'umuntu nacyo cyirimo imbito zigiye zitandukanye, zirimo amako ashobora kuba yavura indwara. Umuntu waba urwaye akaba yakifashisha zimwe mu mbuto zateguwe neza ziri muri aya masorori kuba yakivura bya Kinyarwanda bya gakondo.

Ibiti biteye ahantu hameze neza bifite ibibabi bishobora kwifashishwa nk'umuti gakondo ushobora kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho umuntu yakagiye kwa muganga kwifashisha imiti y'abazungu akaba yakifashisha miti ya gakondo kwivura iyo ndwara ya vuba.

Amaboko y'abantu, ibimera bitandukanye n'umuntu ari gusoma mu gitabo. Ibimera bigiye bivura indwara zitandukanye, bishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara zigiye zinyuranye, zishobora kuba zavurwa n'indi miti y'abazungu, ariko ukaba wakifashisha ibi bimera, uri kuvura izo ndwara.

Icyatsi kishobora kwifashishwa hari kuvurwa indwara zitandukanye, icyatsi kivamo umuti gakondo gihinze ahantu gifite ibibabi byinshi ndetse kigira n'imbuto bishobora kwifashishwa biri gutabara ubuzima bw'umuntu igihe hari indwara runaka yaba afite.

Icyatsi gikura kirandaranda ahantu hose cyatewe, gifite ibibabi byinshi bishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo, bari kuvura indwara zigiye zitandukanye, umuntu yaba afite, aho kugira ngo habe hakifashishwa imiti y'abazungu, bakaba bakifashisha iki cyatsi bari kuvura izo ndwara.

Umuti uri mu ducupa tubiri dutandukanye, ushushanyijeho igikakarubamba, ukorwa mu myembe, bigaragara ko ufite indwara runaka uvura ku kiremwa muntu ushobora kuba warinda umuntu kuba yagira ikibazo mu buzima hari icyo wamufasha kugira ngo ashobore gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Agacupa karimo umuti wifashishwa mu kuba wakica udukoko turi ku ntoki z'umuntu ukozwe mu bimera gakondo ushobora kuba watabara umuntu ukaba wamwicira udukoko twaba tumuri ku ntoki kugira ngo atadukwirakwiza umubiri wose tukaba tanamwanduza indwara zo mubuhumekero.